Hano ndahabona abantu bicaye biragaragara ko bari gukurikirana amahugurwa, bari muri sare ngari. Hari umuntu uhagaze afite mikorofone mu ntoki ni umwe mu bari kabahugura.

Hano ni muri sare y'inama, ndahabona abantu benshi batandukanye bafite dokima, bicaye bose bateze amatwi, uko bigaragara bari gukurikira inama cyangwa amahugurwa.

Hano ni muri sare y'amahugurwa. Aba bantu ni ikipe ngari ihuje intego yariri mu mahugurwa. Naho ahangaha bari imbere bari gufata ifoto y'urwibutso.

Imitako ya kinyarwanda yo mu bwoko bw'intango imanitse iri mu mabara atandukanye y'umweru n'umukara, umuhondo, icyatsi kaki, ubururu, orange.

Hano ni muri salle ndahabona abantu bicaye ku ntebe benshi, harimo abafite mashini imbere yabo ku meza hariho n'abatazifite, uko bigaragara bari mu nama.

Imbere yange ndahabona bantu benshi batandukanye, bari muri sare idekoye neza, haba ameza aradekoye ndetse n'intebe ziradekoye, n'ibitambaro by'umweru, uko bigaragara bari mu nama.

Imbere yanjye ndahabona sare nini amatara ari kwaka, ku meza yabo hariho amamashini, kompiyuta n'amazi, uko bigaragara bari gukurikirana amahugurwa.

Hano ni mu cyumba cy'inama. Harimwo abantu benshi batandukanye, bose bari kureba imbere kandi bateze yombi. Bari mu mahugurwa, bose bahuje intego.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi bahagaze mu buryo bw'uruziga, hagati hakaba harimo abantu bari kubaganiriza, biragaragara ko ari igikorwa cyabaye.

Hano ndahabona abantu benshi bicaye bose bari kureba imbere. Imbere yabo hari umudamu wambaye umupira w'umweru ufite mikoro mu ntoki ari kubaha ikiganiro.

Hano ni muri Kigali mariote hotel nkaba ndikubona abantu babiri bicaye imbere, hari abandi nanone bicaye babareba bari mu nama.

Hano ndahabona salle, irimo intebe nyinshi ariko hari intebe za VIP zifite table ronde, intebe nziza cyane zicaweho n'abantu bigaragara ko ari abayobozi bari mu nama ikomeye.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye ishati y'ubururu yicaye muntebe nziza, imbere ye hari laputopu hateretse n'amazi, afite igitabo imbere ye akaba ari kuvugira kuri mikoro. Uko bigaragara ni umuyobozi.

Imbere yanjye ndahabona abantu bicaye imbere bambaye imipira y'icyatsi kibisi, harimo n'umupolisi. Inyuma yabo hari abandi bambaye imipira y'icyatsi kibisi n'abandi bambaye imyenda itandukanye. Inyuma yabo naho hari abandi bambaye imipira y'umuhondo

Imbere yanjye ndahabona abantu bicaye muntebe nziza, n'abahungu n'abakobwa biragaragara ko bari mu mahugurwa cyangwa se mu nama.

Muri iki cyumba kiri imbere yange harirmo abantu benshi bicaye kuri tabure ronde, bicaye ku ntebe nziza. Hano hantu ni heza hari amagambo yanditse ngo Kigali yacu, bari kwiga uburyo Kigali yacu yaba nziza.

Inzu ikoreramo ubucuruzi icyuma gitunganya amata, intebe ya pulasitiki ameza etageri ndende irimo abajerekani y'umweru arambitse, ikarito n'amacupa y'amazi inkongoro hejuru.

Imbere yanjye ndahabona umukobwa uri mu gakiyosye uri kwakira umukiliya uje umugana, afite mu ntoki ze agapiyese, biragaragara ko aha ngaha ushobora kubikuza, ushobora gufunguza konte, ushobora kohereza amafaranga, ushobora no kwishyura fagitire.

Boda pasi cyangwa jeto ni agakarita gahabwa umuntu uturiye umupaka kugira ngo ajye abasha gutambuka ku mupaka hariho urujya n'uruza rw'imikoranire hagati y'ibihugu. Ibyo bikorwa hagati ku bihugu by'ibituranyi by' u Rwanda ntaho umwana uri munsi y'imyaka cumi n'itandatu we ntago abyemerewe.

Imbere yanjye ndahabona inyandiko igaragaza ko uku ari ukwezi ko gushimira abasora, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ku nshuro ya makumyabiri na rimwe bivuga ko ushobora gusaba fagitire ya ibiyemu ukubaka u rwanda.

Imbere yajye ndahabona intabwe ya kane kumuntu ushaka serivise y'irembo, aho akanda kuri saba hanyuma agakurikiza amabwiza. bivugako ubisaba agamba kuba indangamuntu y' u Rwanda, kubafite imyaka irihejuru ya cyumi nitandatu, kandi akaba agamba afite aderesi ya emeri na telefone.

Hano ni ku rubuga irembo, turi kugaragarizwa serivisi nshya ku irembo, ariyo serivisi y'uburenganzira bwo kugera mu nkambi y'impunzi, ikaba itangwa na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu cyiciro cy'abinjira n'abasohoka. Ku bindi bisobanuro wahamagara zeru, karindwi, icyenda, kabiri esheshatu, zeru.

Ikiraro kinini gikomeye gifite umuhanda hejuru n'undi muhanda uca munsi yacyo, hejuru hari kunyuramo ikinyabiziga gitwara abagenzi, munsi y'ikiraro hari umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka, ipikipiki n'amagare.

Hano ni muri sikirini hari umuntu wagiye ku rubuga rwa visiti Rwanda doti komu hakaba hari akavidewo agiye kureba kagaragaza ukuntu mu rw'imosozi igihumbi hari ibyiza nyaburanga birimo n'ingagi ziboneka hake ku isi.

Utarengeje ku itariki mirongo itatu ni mwe z'ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, hano Rwanda revenu yerekanaga uburyo ushobora kumenyekanisha igihembwe cya kane cy'ipatanti ukoresheje mudasobwa ugakurikiza inzigo zose zavuzwe hepfo.

Ukoresheje telefone ngendanwa ya sumati fone, wajya ku rubuga irembo maze ukiyandikisha onirayini, gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ibisabwa biri hasi.

Imbere yanjye ndahabona ibiganza biri guhererekanya amafaranga hariho akamenyetso ko gukuba k'umutuku, ahandi ndahabona ikiganza gifashe ikarita kiri kuyishyira kuri mashini hariho akamenyetso ka vi. Ni ukuvuga ngo ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita. Guhererekanya amafaranga ntabwo byemewe mu mujyi wa Kigali.

Hano hari gushishikariza abantu ko hasigaye iminsi ibiri yo kudekarara imisoro y'igihembwe cya gatatu aho itariki ya nyuma tariki mirongo itatu nimwe z'ukwa cumi nabiri bibiri na makumya nakane aho udekarara hanyuma ugasora mbere y'itariki yatanzwe.

Ibyo mbona hano biragaragaza ko, Rwanda reveni yibutsa ko uyu munsi ariwo wa nyuma wo kwishyura no kudekarara igihembwe cya kane cy'imisoro.

Imbere yange ndahabona ikirangantego cy'amagambo ari mu mpine handitse ngo rebu mu nsi hari uturongo tugizwe n'amabara agize ibendera ry'uRwanda. Mu nsi yaho hari rebu mu magambo arambuye bivuga ngo ni Rwanda edikesheni bodi.

Imbere yange ndahabona dokima ziri muri pi di efu, za Rwanda gavunensi sikowa kadi. Ni izo muri ara gi bi, Rwanda gavunensi bodi.

Itangazo, ku bufatanye bw'ubushinjacyaha bukuru na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, urubuga Irembo rwemerewe gusabiraho icyangombwa cyo kuba utarakatiwe n'inkiko. Kandi usaba agomba kuba afite ikarita ndangamuntu. Ku banyarwanda. Naho ku banyamahanga, akaba afite ikarita iranga umunyamahanga. Si ngombwa pasiporo.

Aya ni ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Imbere yange ndahabona umuryango usize irange ryashokora urafunze hariho n' ingufiri, hasi hariho ibyapa bya pirami fodi, urebeye mu ikirahure/miriwari, urabona hari imadoka iparitse hano imbere ku mapave, hari n'umuntu uri kuri telefone

Iyi ni rura cyangwa Rwanda itiriti regiratori otoriti risobanura mu kinyarwanda ngo ikigo cy'igihugu cy'imirimo ifitiye igihugu akamaro.

Dore uko wamenyekanisha umusoro ku nyungu bibiri na makumyabiri na gatatu ukoresheje terefone igendanwa, ibi birareba abasora umusoro ukomatanyije n'ucishirije badafite imisoro ufatirwa, kanda akanyenyeri maganinani akadirishya uhitemo ururimi wifuza gukoresha maze ukomeze ukurikize amabwiriza.

Hano ndahabona igipangu cy'amatafari ahiye, gifite porotaye isize irange rya vere miritere. Mo imbere harimo aka etaje gato kazamuye cyane nako gasize irange rya vere miritere. Hari esikariye zizamutseho z'icyuma uko bigaragara aha hejuru hajya iminara.

Imbere yange ndahabona ipironi ndende cyene, uyu ukaba ari umunara w'itumanaho. Hirya hari ibiti, imikindo, hari n'ipoto ku ruhande, iriho urutsinga rw'amashanyarazi.

Ikiganiro ku by'ingenzi mu misoro yari kuvugwa muri bibiri na makumyabiri na gatatu, cyatanzwe na Batamuriza Hajara komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu na Mbera Emmy komiseri wungirije ushinzwe ubugenzuzi bw'imisoro, cyatambutse kuri radiyo Rwanda tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa gatatu bibiri na makumyabiri na kane kuva saa moya kugeza saa mbiri za mu mugitondo.

Imbere yanjye ndabona havuga ko RGB ari ikigo cya leta cyashyizweho n'itegeko nimero mirongo itanu na gatandatu bari bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa cumi na gatandatu z'ukwa cumi na bibiri, bibiri na cumi na gatandatu, gifite intego yo guteza imbere imiyoborere myiza. ni ikigo cyigenga gitanga raporo y'umwaka kuri perezida no kunteko ishinga amategeko imitwe yombi, iha kopi perezida w'urukiko rw'ikirenga na minisitiri w'intebe.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Hano baributsa ko umunsi wanyuma wo kudekarara, no kwishyura umusoro ku nyungu w'igihembwe cya kabiri, ari ku itariki mirongo itatu z'ukwa kenda ibihumbi bibiri na myakumyabiri na kane, wabikora nonaha.

Imbere yanjye ndahabona inzu ifite ibaraza, irimo aga kiyosike gafite ibara ry'umweru n'ubururu, karimo serivise zitandukanye, karimo n'ubu ejenti.

Hano imbere yange ndabona akazitiro kubakishijwe ibyuma, mw'imbere harimo umunara muremure w'itumanaho, hirya y'uwo munara hakaba hari amapoto y'amashanyarazi hariho n'insinga.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cya parikingi, umuntu uri kugenda, ipoto iriho itara rya ekararaje piburike hamwe n'ipironi y'umuyoboro mugari w'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona inzu, hari n'urupangu rufite ibara ry'icyatsi, hejuru yabyo hari insinga z'amashanyarazi. Nari n'ipirone nini, y'umuyoboro mugari.

Hano hari kabine y'amashanyarazi; hari abakozi benshi bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero z'umuhondo, bari gukora amashanyarazi. Nanone hari undi uri kurira ku rwego agana ku gipironi gihari, kiriho insinga.

Inyubako nini nziza ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu. Ifite imbuga yubakishijwe amapave, ndetse n'ubusitani burimo indabo, ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atandatu iherereye Kagarama.

Imbere yange ndahabona akajaride karimo ibiti, indabyo, n'ibyatsi. Ni ku zuba, karumye. Kari hafi y'umuhanda, harimo umunyerage uri kugenda. Hirya hari imodoka ziri kugenda, hari umutaka wa emutiyene, n'imodoka iparitse hafi y'inzu.

Imbere yanjye ndabona ipoto ihagaze ikoze muri sima, iriho insinga z'amashanyarazi hejuru hari eshatu zigenda, mu rubavu hari urundi rumwe abaturage barahuriraho umuriro.

Imbere yange ndahabona igipironi kinini kiriho insinga z'amashanyarazi, uyu ni umuyoboro mugari. Hirya yaho hari amapoto abiri ahashinze nayo ariho insinga, nanone hirya yabyo hari inzu y'amatafari ahiye nini.

Hano ni mu cyaro ndahabona ibigori, insina, n'ibindi biti bitandukanye. Hari kandi ipoto y'icyuma, ihashinze iriho insinga z'amashanyarazi.

Imbere yange ndahabona ahantu hari igipangu, kiri ahantu hari ubutumburuke bwigiye hejuru. Imbere yacyo hari akajaride gashinzemo ipoto y'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona amapironi abiri y'amashanyarazi y'umuyoboro mugari. Mu rubavu rwayo ahagana hasi hari insinga ziciyeho. Hejuru ndahabona ikirere gikeye n'ibicu.

Imbere yange ndahabona akajaride, hagati muri ko harimo akabuwate k'akuma karimo insinga z'amashanyarazi. Hirya yako ndabona ipirone nini ya hote tansiyo ihari.

Iyi ni ipironi y'amashanyarazi y'umuyoboro mugari wa hotetansiyo. Hejuru hakaba hariho abakozi babiri b'aba elekitirisiye bari kuyikoraho.

Imbere yange ndahabona ipironi Nini yamashanyarazi, ya hote tansiyo, ni umuyoboro mugari ,uriho insinga ,hirya ndahabona agasozi kariho amashyamba.

Imbere yanjye ndahabona ipoto y'amashanyarazi n'insinga z'amashanyarazi, hari imikindo n'utundi duti, hari imodoka iparitse hirya ifite ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba hari ibendera rya repuburika y'u Rwanda rihari.

Imbere yange ndahabona moto ebyiri, z'icyatsi kibisi, z'amashanyarazi, ziparitse imbere y'iduka na ryo ry'icyatsi kibisi, ndetse n'ubuso ziparitsemo bufite ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru. Hakaba ari aho baza gucaginga amabatiri yazo.

Imbere yanjye ni munkengero z'umuhanda, hakaba hari ibiti byinshi bihari, harimo n'imikindo. Hari amapoto abiri ahashinze, ariho insinga z'amashanyarazi. Hirya hari inzu iri mu gipangu.

Hano ndahgabona ipoto ihashinze iriho insinga nyinshi z'amashinyarazi, munsi yazo hari akabogisi k'umukara gashobora kuba gakoreshwa mu itumanaho.

Imbere yange ndahabona akajaride gatoya karimo ibyatsi hari icyuma kihashinje gishobora kuba kiriho icyapa hirya yacyo hari igisima gisize amabara y'umweru n'umutuku, hino yako hari akabogisi kakandi kaba karimo insinga z'amashanyarazi.

Imbere yange ndahabona agakiyosike k'umuhondo ka emutiyeni gashaje, inyuma yako hari ipoto y'amashanyarazi y'icyuma, hirya hari ipirone y'amashanyarazi y'umuyoboro mugari, hepfo hari amazu abiri afite igisenge cy'umutuku. Hino mu muhanda hari umukobwa uri kugenda, wambaye ijipo y'umweru n'umupira w'umukara.

Imbere yange ndahabona umuganga w'umuzungu, wambaye itaburiya na ga afite agapfukamunwa. Agiye gutera undi mugabo wicaye mu ntebe, agiye kumukingira ukuboko. Uko bigaragara ni igihe twakingirwaga korona.

Hano ni mu rukiko, ndahabona abantu bicaye ku ntebe, muri bo hari uwambaye agapfukamunwa, hari n'umwavoka ufite telefone mu ntoki. Hirya yabo hagana ku muryango, hari umupolisi ufite imbunda.

Iyi ni ipaji imwe yo mu igazeti ya leta nimero sipesiyare yo ku makumyabiri z'ukwakenda mu bihumbi bibiri na cumi n'umanani, aho umutwe wa gatatu w'ibyaha n'ibihano bya ruswa hagaragaraho ingingo ya kane ariyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke.

Imbere yange ndahabona umuntu w'inzobe ufite umusatsi mwiza w'umukara yambaye ikoti ry'umutuku uko bigaragara ikaba ari ifoto ye yo kundangamuntu.

Imbere yange ndahabona porutaye nini, hari abacungagereza babiri bahahagaze, hari n'umuntu usohotse mu gipangu, bigaragaza ko ari umuntu wari ufunzwe, ufunguwe.

Imbere yanjye ndahabona umugabo wambaye ishati y'ubururu n'amalinete, yatawe muri yombi n'abapolisi babiri. Aracyekwaho icyaha, agiye gushyikirizwa ubugenzacyaha bumukorere dosiye, buyishyikirize ubushinjacyaha. Nuko akomeze no mu rukiko.

Inzu ikorerwamo ikaragiro ry'amata, igaragaramo icyapa kiriho ubujerekani bw'amata ndetse n'igikoresho cyagenewe gushyirwamo amata, handitse Nyanza, harimo ibyantsi ndetse ku ruhande hagaragara indobo.

Imbere yanjye ndahabona abagororwa bicaye hari n'undi uhagaze imbere yabo hari sikirini harimo umuntu ugaragara ni umucamanza, aha ngaha uyu mugororwa ari kuburana akoresheje ikoranabuhanga.

Imbere yange ndahabona igipangu kinini kandi kirekire cyubakishije amatafari ahiye. Ni ku igororero. Hano ndahabona abagororwa bambaye inifomu bari kuzamuka. Hepfo mu nguni ndahabona umunara uba urimo abantu barinze igororero.

Ni inzu itangirwamo serivisi, iruhande hari uturarabyo hagati hari gutambukamo umugabo wambaye ishati y'ubururu, hirya gato hari abicaye bigaragara ko bategereje kwakirwa.

Aha ni ku ipaji imwe yo mu igazeti ya Leta nimero supesiyare yo kuwa makumyabiri z' Ukwacyenda bibiri na cumi n'umunani, ahavuga ingingo zitandukanye zerekeranye no kurwanya ruswa. Harimo ugushyira mu bikorwa ingamba zo kurwanya ruswa, gukorera mumucyo, kugaragariza raporo abo igenewe n'izindi.

Imbere yange ndahabona abantu benshi, bamanitse amaboko bambaye impuzankano, uko bigaragara aba ni abagororwa kuko bambaye imyenda yabo.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo irindwi n'eshanu igaragara icyumba k'isuku n'umuryango imbere ufite ibirahuri.

Hano imbere yanjye ni mu rukiko hanyuma ndahabona imfungwa iri kumwe n'umwavoka bari kuburana, twibuke ko aho imfungwa itandukaniye n'umugororwa nuko iba ikiburana naho umugororwa akaba aba yaramaze gukatirwa bidasubirwaho.

Hano aho muri salle hari abantu bahicaye bambaye imyenda itukura hari n'abambaye imyenda y'umukara. Uko bigaragara harimo abacamanza, abashinjacyaha n'abavoka bari mu nama.

Ibiganza bibiri bifashe inote nyinshi zikoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde kurizo hariho umugabo ugeze mu za bukuru wambaye amadarubindi ndetse n'agapira k'umweru.

Iyi ni igazeti ya leta yo kuya makumyabiri zukwa kenda mubihumbi bibiri na cumi numunani, aho ingingo ya cumi na karindwi ivuga kumpamvu nkomezacyaha kucyaha cya ruswa cyakozwe numuntu uri murwego rw'ubuyobozi, n'ingingo ya cumi n'umunani ivuga kucyaha cya ruswa gikozwe n'amasosiyete y'ubucuruzi, amakoperative, ibigo n'imiryango bifite ubuzima gatozi.

Imbere yanjye ndahabona intebe hari abantu bicayeho hari n'abandi bahagaze. Uko bigaragara ni mu rukiko kuko hari abavoka babiri hari n'umukiriya wabo uri hagati bose bambaye udupfukamunwa.

imbere yange ndahabona abagororwa babiri bambaye imyenda y'amaroza, bakaba bafite muntoki ingobyi y'abarwayi iriho umuntu urwaye, uko bigaragara ararembye bamutwaye kwa muganga.

Imbere yange ndahabona umudamu ufite mikoro mu ntoki, ahagaze kuri podiyumu, afite ijambo, ari kuvuga. Hirya ye hari udutambaro dukore mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda. Uko bigaragara, uyu ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa.

imbere yanjye ndahabona abantu bicaye bambaye amaroza bigaragara ko ari imfungwa, inyuma y'aho hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda w'igitaka iburyo bwawo n'ibumoso hari amazu agiye atandukanye. Ndahabona igipangu cy'amabara y'icyatsi ndetse iyo nzu isakaje amabati atukura. Hakurya y'umuhanda hari umukindo mwiza uri imbere y'igipangu cy'amatafari.

Imbere yange ndahabona ipaje yo mu igazeti ya leta nimero sipesiyare yo kuwa makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani, ahari ingingo ya cumi na gatandatu ivuga ko uhesha inyungu zinyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka itanu n'irindwi ndetse n'ihazabu ikubye inshuro eshatu kugeza kuri eshanu agaciro k'iyo nyungu.

Imbere yange ndahabona umugabo ukuze wambaye rinete, ingofero y'umukara irimo agasentire k'umuhondo akaba yambaye imyenda y'umukara uko bigaragara ni umucamanza.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi b'ibitsina byombi abagabo n'amagore bafashe ku mabendera y' u Rwanda n'ukuboko kw'ibimoso ukw'iburyo barakumanitse bari kurahirira imirimo bagiye kujyamo ni muri serivise y'ubutabera.

Imbere yanjye ndahabona paje imwe muri paje zigize igazeti ya leta nimero sipesiyale yo ku wa kabiri z'ukwacyenda muri bibiri na cumi, aho hagaragaraho nyakubahwa perezida wa repubulika y' u Rwanda Polo Kagame, nyakubahwa Minisitiri w'intebe Berenari Makuza, na Karugarama Tarisise Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta.

Imbere yange ndahabona umugororwa w'umudamu, aricaye. Hafi ye hari umucungagereza, hirya hari abandi bantu. Hano ni mu rukiko, baje kuburana.

Imbere yanjye ndahabona imodoka ebyiri za arasiyesi zigezweho zabugenewe, zitwara imfungwa n'abagororwa. Imwe irimo abagororwa, naho indi bari kuyisohokamo. Hari kandi n'umucungagereza ar iwe mukozi wa arasiyesi ubarinda.

Hano imbere hagana mu muhanda ndahabona urujya n'uruza rw'abantu, hari n'abatwaye imizigo ku ngorofani no ku igare. Hari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda hamwe n'icyapa cyanditseho ngo sitopo gitegeka umuyobozi w'ikinyabiziga guhagarara akanya gato mbere yo kwinjira mu nkomane.

Imbere yange ndahabona imodoka ya dubure kabeni toyota, iparitse ku mapave, hari n'indi iri hirya yayo, itagaragara neza. Inyuma yaho hari icyuma cy'amarange n'umweru n'umukara kihafunze, cya bariyeri. Imbere hari ubusitani, hari n'inzu.

Imbere yange ndahabona abapolisi babiri bo mu muhanda, bahagaze ku mapave. Ndabona na none umutaka w'umutuku, harimo n'umu ajenti wa emutiyene. Hari amapoto menshi ahashinze, n'ibyapa. Mu muhanda aho abapolisi bareba hari ibinyabiziga birimo kugenda. Uko bigaragara n'imvura imaze kugwa.

Imbere yange ndahabona inzu ifite umuryango ufunguye, hakaba hari udutebe tubiri n'akameza kamwe, hahagaze umupolisi, uko bigaragara asaka abantu bagiye kwinjiramo.

Imbere yange ndahabona ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda harimo n'umumotari, ku ruhande hari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda ari mu kazi.

Hano ni mu kibuga, aho bari gukorera perimi definitifu kategori ya moto A, aho umupolisi ari imbere y'umumotari ari kumukoresha kandi uko bigaragara umunyeshuri aratsinze kuko umupolisi abyemeje ko ari oke, akoresheje igikumwe cye kireba hejuru.

Muri uyu muhanda harimo igikamyo gifite tanki gitwara ibikomoka kuri peterori bigaragara ko cyari gitangiye gushya kuko kiriho kirazimywa na polisi ishami rya faya burigade.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi harimo moto n'imodoka ndabona imodoka ya polisi nanone ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru kariho amapave hirya y'iyo modoka hari ibiti ndetse hari n'ipoto.

Imbere yange ndahabona icyapa gisize amabara yumweru n'ubururu kikaba ari icya polise i Nyarugenge kuri stasiyo ya Rwezamenyo, bisobanuro yuko ahangaha kiri ari kuri stasiyo ya Rwezamenyo.

Imbere yange ndahabona imiryango ifunze umwe ni oranje uwundi ni umweru. Hari ingazi z'ibyuma ni nyinshi zihari hari n'imodoka ihaparitse.

Imbere yange ndahabona nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, agaragiwe n'abantu ibumoso n'iburyo batandukanye, na bo ni abayobozi, inyuma ye hari amadarapo abiri harimo n'iry'u Rwanda.

Uruziga rw'igiceri cy'icyuma gisize ibara ry'umuhondo gishushanyijeho umubare mirongo itanu amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'igisiga cyafunguye amababa uruhande hari amashami y'igiti ariho imbuto.

Hano ndabona abantu benshi batandukanye ni abanyacyubahiro bicaye mu ntebe z'icyubahiro, uko bigaragara ahangaha ni mu nteko ishinga amategeko.

Uyu mugabo uri imbere ya mikorofone, umanitse ukuboko kw'iburyo, wambaye kositime y'umukara, karuvati y'umukara, n'ishati y'umweru, ari iruhande rw'ibendera. Ari kurahirira inshingano agiyemo.

Imbere yanjye ndahabona abantu benshi bicaye mu ntebe z'icyubahiro, ni mu masaha ya nijoro amatara ari kwaga. Bafite n'amaraputopu imbere yabo bari kunywa amazi, uko bigaragara ni inteko ishinga mategeko.

Imbere yange ndahabona imiturirwa itandukanye ndabona na none hino handitse ngo Rwandazi pafomense indegisi.

Ni inzu itangirwamo serivisi, iruhande hari uturarabyo hagati hari gutambukamo umugabo wambaye ishati y'ubururu, hirya gato hari abicaye bigaragara ko bategereje kwakirwa.

Imbere yange ndi kubona Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Polo Kagame, ari kumwe n'abandi bayobozi bari kugenda. Inyuma yabo hari abandi bantu benshi.

Imbere yanjye ndahabona nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Poro Kagame, ahagararamye n'abandi bantu benshi hirya no hino b'abanyacyubahiro, inyuma yabo hari amabendera abiri y'u Rwanda.

Imbere yange ndahabona abagabo n'abagore bambaye neza, ukuboko kw'ibumoso gufashe kw'ibendera ry'u Rwanda, naho ukwiburyo barakumanitse bari kurahirira imirimo bagiye kwinjiramo.

Ndabona umudamu wambaye amabubu adoze neza ,akaba ari hagati y'abana babiri b'abahungu, nawe yambaye cositime imeze neza, umwe ari kumureba und' ari kureba imbere.

Aya makuru agaragaza igihe cyo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, aho hari kugaragara ifoto y'umukandida dogita Habineza Furanke, umukandida wa girini pati.

Hano ndahabona nyakubahwa perezida warepubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Akoze mu ntoki umudamu bahagaze imbere y'ikirangantego cy'u Rwanda kiri hagati y'amabendera abiri.

Imbere yange ndahabona abantu bambaye amashati y'umweru afite n'utubara tw'icyatsi n'umuhondo, inyuma yabo hari abambaye imipira y'icyatsi kibisi uko bigaragara n'igihe cyo kwiyamamaza, aho umukandida w'ishyaka girini pati yarari kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu.

Imbere yange ndahabona abantu bicaye mu ntebe z'icyubahiro bafite amalaputopu imbere yabo bafite amazi yo kunywa bikaba bigaragara ko ari abayobozi bahuye bari mu nama.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo, harimo umumotari utwaye umugenzi, imbere ye hari bisi y'umuhondo n'umweru nayo itwara abagenzi.

Hano hari inzu ifite amabati amabati asize irange ry'ubururu hakaba n'imiryango isize irange ry'ubururu ariko harumwe usize irange ry'umweru urimo n'injerekani, hakaba hari moto iparitse imbere yuwo muryango usize irange ry'umweru.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, harimo imodoka nini iri kugenda ifite irange ry'umweru.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na bisi itwara abagenzi ifite irange ry'umweru umukara n'icyatsi kibisi hakurya yayo hari ibiti.

Muri uyu muhanda wa kaburimbo ndahabona amagare abiri, hamwe n'ikimodoka kinini cy'umutuku cya jagwari ikora taransiporo yambukiranya imipaka nkaba narakigiyemo njya Kampala muri Uganda.

Imbere yanjye ndabona umuhanda uri kugendamo fuso ipakiyemo imifuka myinshi itwikirije shitingi y'ubururu. Haruguru yayo hari amazu, imbere yayo hari abantu benshi, hafi y'igiti.

Ni mumasaha ya nijoro, amaduka arafunguye ari gucuruza , amatara ari kwaka, hanze amatara ari kwaka, imodoka nyinshi ziparitse imbere yamaduka, namamoto araparitse. bari gukora makumyabiri nane kuri makumyabiri nane.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo hamwe na rompo we imbere harimo umumotari ugiye kugera aho abanyamaguru bambukira muri zeburakorosingi ahangaha arabanza ahagarare gatoya kugira ngo ntagire umunyamaguru abangamira.

Hano hari moto nyinshi zitandukanye, mu ruhande rw'iburyo hepfo ariko hari moto igaragara cyane, iriho kasike inyuma y'umutuku ikaba iriho ikibateri cy'umuhondo ni za moto zikoresha amashanyarazi.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo, harimo abanyegare babiri. Umwe ahetse mizigo, undi atwaye igare ridafite intebe yo guhekaho. Hirya yaho hari imodoka ziparitse.

Imbere yanjye ndahabona imodoka ya bisi nini itwara abagenzi ya yutongi, ifite ibara ry'ubururu, ifite purake eri a hashi ijana na mirongo itandatu na kabiri de.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo usa naho uri kwangirika urimo ibinogo. Harimo tagisi vuwatire y'ibara ry'umweru n'umuhondo mukeya yanditseho ngo yego kari, hakaba n'umushoferi wambaye rakosite y'umutuku.

Imbere yange ndahabona umuhungu uri kugendera ku mapave wambaye ishati y'ubururu, nkahabona dayihatsu y'umweru iri kubisikana n'indi modoka itwara abagenzi ya bisi y'ubururu, inyuma yayo hari iyindi nanone bisi.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo, hakaba harimo imodoka iri kugendamo ya surufo, ishushanyijeho isabune ya sante, inyuma yayo hari moto, hino yayo hari umuntu uri gucuruza ibisheke, naho imbere yayo hari amapoto n'izindi modoka zihaparitse.

Imbere yange ndahabona akamoto y'amapine atatu k'ubururu. Hari ahantu hari igisima kigiye kubomoka hirya yaho hari utundi tumoto twinshi duparitse.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo aho moto ihetse umugenzi iri kugenda. Hari imodoka ya fuso nayo itwikiriye ihetse imizigo iri kwinjira mu muhanda igana mu cyerekezo moto iri kujyamo.

Imbere yange ndahabona aka moto k'amapine atatu twita ngo ni rifani kari mu muhanda wa kaburimbo karatwikiriye gapakiye imizigo. Gatwawe n'umuyobozi twakwita ngo ni umumotari.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo byombi. Hagaragaramo ibinyabiziga bibiri, ikiri hirya ni ivatiri naho ikiri hino kigaragara neza ni moto y'amapine atatu dukunze kwita rifani.

Mbere yajye harumuhanda wa kaburimbo nyabagerwa urimo ibinyabiza byinshi bigizwe na mamoto ndeste nizindi modoka , hari na hilix yumukara yikoreye imbaho inyuma ndikuhabona umuntu urikuyiyobora ndetse nundi ufite injerekani yubururu muntoki.

Hano ni umuhanda wa kaburimbo ndikuhabona umuntu w'umunyamaguru wambaye bodaboda uri gusunika akagare gatwara imizigo. Imbere ye hari umumotari, nanone hirya hari abandi bantu aho imodoka iparitse.

Imbere yange ndahabona igare riparitse kandi rikuze hamwe na dayihatsu iparitse ifite pulake eri a efu maganinani mirongo itatu na gatandatu be.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo munini, aho hari modoka y'umweru y'imizigo ipakiye imifuka inyuma hari shitingi ihatwikiriye. Hari akandi kamodoka ndi kubona gatoya gafite ibara ry'ubururu.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini y'icyatsi yitwa hoho itwaye umuzigo, hariho n'umunyegare. Imbere yayo hari umuntu uri kugenda n'amaguru ku mapave.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo munini urimo ibinyabiziga bitandukanye. Ndabona imirongo y'umweru twite zebura korosingi akaba ari nayo mpamvu ikimodoka kinini gikoreshwa mu bwubatsi gihagaze akanya gato, kugira nimba hari abanyamaguru babanze bambuke.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ya tagisi vatire, hino hari ibyuma bishobora gutuma imodoka itarenga ku muhanda, no hakurya ku wundi muhanda, nanone hari naho ibyuma biporoteje imodoka, kugira ntirenge umuhanda.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo byombi, hari imodoka ebyiri z'umweru ziri kubisikana imwe ni dayihatsu indi ni dubule kabine, hari umumotari nawe wakoze amakosa ari kunyuraho dubule kabine kandi nawe ari kubisikana ni amakosa guca hagati y'ibinyabiziga byombi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda harimo fuso iri kugendamo, irapfutse inyuma itwaye imizigo hirya yayo hari ibiti.

Imbere yange ndabona umuhanda uri kugendamo amamodoka mu byerekezo byombi, imbere yayo hari amagare no ku ruhande hari amamodoka menshi ahaparitse.

Hano ndahabona imodoka nini ebyiri zitwara abagenzi mu bwoko z'amabisi, ziraparitse hagati yazo hari umuntu urigutambuka wambaye ipantalo y'ikoboyi isengeri itukura.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo harimo akamoto k'amapine atatu k'ubururu gatwikirije shitingi y'umweru, hano hino ndahabona umuntu uri gucuruza ibisheke mu ndobo, imbere y'ako kamoto hari indi modoka.

Imbare yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo urimo ibnyabiziga byinshi biri kugenda. Ku ruhande hari ibindi binyabiziga bihaparitse harimo na fuso irimo imifuka ipakiye ibintu ndetse n'izindi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo uri nkugendwamwo n' imodoka itukura yo mu bwoko bwa hoho, irapakiye hakurya hari ibiti.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo hari umunyamaguru uri kugenda ku ruhande wambaye isarubeti n'ingofero, muri uwo muhanda hari igikomye kinini gifite amabara y'umuhondo, gifite ibicuruzwa kirikugendamo.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Imbere yanjye ndahabona bus nini ifite amabara y'icyatsi n'umweru, inyuma yayo hari amamoto ari kugenda, hirya hari amazu n'ibinyabiziga byinshi.

Ni umuhanda uri ahantu hatuje, uri gucamo ipikipiki itwawe n'umumotari ariko nta mugenzi uriho. Iruhande rwayo hari igipangu cy'umukara ndetse gikikijwe n'ibiti.

Ndabona ahantu hagari cyane hashashe hameze neza. Harimo ibyatsi hose, biragaragara ko ari ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru.

Imbere yange ndahabona icyapa cyo m'umuhanda kigaragaza inzira y'abanyamaguru aho abanyamaguru bambukira.

Imbere yanjye ndahabona ubusitani. Imbere yabwo hakaba hari icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara kiburira ko hegereye igice cy'umuhanda gikorerwamo imirimo.

Umuntu ufite mikoro inyuma ye haritete irimo abantu, n'abayobozi ari kubwira abaturage bariri mu nama cyangwa bari mu biganiro umuntu ufite mikoro yambaye ijire afite icyo ashinzwe buriya arikugira ubutumwa cyangwa mesaje agenera ababo arikubwira.

Kuri iyi nzu ifite umuryango ufunze, hakorerwa serivise z'irembo hari na fotokopiyeze. Iruhande rwaho hari ibyapa bibiri, icyo hejuru cya mpande eshatu gitegeka umuyobozi wese w'ikinyabiziga guha inzira ibinyabiziga bigenda mu muhanda yegera, naho icyo hasi cya mpande enye, cyerekana akayira k'abanyamaguru.

Imbere yange ndahabona icyapa gifite ubuso bw'umuhondo n'ikirango cy'umukara. Kigizwe n'agafureshi kareba hejuru.

Imbere yange ndahabona icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo n'ikirango kigizwe n'udufureshi dutatu tuzenguruka tw'umukara. Kikaba kigaragaza y'uko ugiye kugera mu muhanda banyuramo bazengurutsa.

Iki cyapa kiburira cyo mu muhanda, kigaragaza imirimo, bisobanura ko wegereye igice cy'umuhanda ikorerwamo imirimo.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe; ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye. Harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Imbere yanjye ndahabona icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo, n'ikirango cy'umukara . Aho kivuga inkomane, aho umuhanda umwe urasukira iburyo mu ifuruka yenda kuba n'igororotse, aha ngaha gutambuka mbere, hakurikizwa amategeko rusange yo gutambuka mbere.

Inzu ikodeshwa kacyiru mu mujyi wa kigali ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu by'amadolari hakaba harimo firigo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu gikoni .

Iki ni icyapa cyo kumuhanda kivuga ko ari iherezo ryo kuvugako ikinyabiziga gikurura rumoroki itari makuzungu cyangwa rimoroki ifite imitambiko irenze imwe itahanyura.

Imbere yange ndahabona icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Aho kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere hari aho abanyamaguru bambukira.

Iki n'icyapa kiburira cyo mu muhanda, aho kigaragaza ko umuhanda utaringaniye, ni ukuvuga ahegereye ibinogo, utununga cyangwa ahantu umuhanda umeze nabi.

Imbere yange ndahabona icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguru w'umukara, ubuso bw'umweru, n'ikirango cy'umukara, cy'agafureshe.

Imbere yanjye ndahabona icyapa cyo mu muhanda, aho kivuga yuko imbere hari amakoni abiri cyangwa uruhererekane rw'amakoni arenga abiri. Irya mbere riri iburyo.

Imbere yanjye ndahabona icyapa kiri mw'ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru hamwe n'ikirango cy'umukara kigizwe n'utwambi tw'umukara, aho kigaragaza umuhanda ubisikanirwamo.

Iki ni icyapa kiburira, cyo ku muhanda, aho kigaragaza ko wegereye igice cy'umuhanda ushobora kuba unyerera. Kugira ngo umenye uko ugomba kwitonda.

Imbere yanjye ndahabona icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Aho kigaragaza ko hegereye igice cy'umuhanda gikorerwamo imirimo.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo ibinyabiziga. Hakaba hari n'icyapa kiburira abayobozi b'ibinyabiziga ko hegereye inkomane bategetswe kunyuramo bazengurutse.

Mu mategeko y'umuhanda iki cyapa kiba kiri ku muhanda kivuga imirimo. Bisobanura ko kiba kiri ahegereye igice cy'umuhanda gikorerwamo imirimo.

Imbere yange ndahabona icyapa kiri mu ishusho y'uruziga gifite umuzenguruko w'ibara ry'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Aho kibuza umuyobozi w'ikinyabiziga kurenza umuvuduko w'ibirometero mirongo ine mu isaha.

Iki ni kimwe mu byapa byo mu mategeko y'umuhanda, bigomba kubahirizwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga. Aho kivuga yuko iri ari iherezo ry'aho iyi modoka yari ibujijwe kunyura.

Imbere yange ndahabona umumotari uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Hakurya hari abantu bari kugenda, hari n'imodoka ziparitse ku mapave, imbere ya etaje nini yanditseho ngo "Tabuzi pulaza".

Ni ibyapa byometse kunzu, hagati yabyo hamanukamo itiyo, ijyana amazi kimwe kibanza ibumoso, gishushanyijeho ibikapu bibiri, ndetse n'ishusho y'umuntu ishushanyishije ikaramu. Ikindi na cyo kirimo amabara y'umuhondo.

Urupapuro rwanditseho amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, icyatsi rwo rurasa umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu, bikaba byanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Imbere yange ndahabona imodoka, hakurya hakaba hari inzu iriho shemine, bigaragara ko ari ku gikoni, kuba hari ijambo marato, bigararaga ko ari aho abanyamaguru baca bari kwirukanka mu isigamwa rya marato.

Imbere yanjye hari etage, aho imbere yaho haparitse amamodoka, umuhanda ni amapave, kuhande hari icyapa cyanditseho ngo Samba Supermarket, uko bigaragara iyi supermarket ni nziza yitwa Samba ikorera muri etage.

Imbere yange ndahabona amazu menshi meza kandi ageretse, hari ahantu hari umwuka mwiza kubera ko hari ibimera by'icyatsi kibisi, harimo indabyo ndetse n'ibiti.

Imbere yange ndahabona inyubako nini cyane, bigaragara ko ari iy'ubucuruzi, iriho icyapa cya foritibet iri ku gisimenti, hariho n'ibindi byapa bitandukanye.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo hari icyapa kibuza ibinyabiziga byagenewe gutwara ibicuruzwa kuhanyura hakurya hari ibinyabiziga bihaparitse, imitaka ya MTN, etaje.

Imbere yanjye ndahabona akajaride keza kegereye korutire y'ibyuma ikorotiriye ya etaje nini igeretse bigaragara ko ari iy'ubucuruzi.

Imbere yanjye ndahabona ahantu hari akazu k'imbaho hari na kandagira ukarabebere harimo abantu batatu bicaye bari ku meza bariho barayifata neza hari n'agatapi k'icyatsi.

Abagore bahagaze mu isoko ryaremye ry'imbuto, imboga, inyanya harimo abagurisha, abagura bahagaze mu muhanda w'igitaka.

Imbere yanjye ndahabona ibiti byinshi mu gashyamba ariko hakurya yako hari agasozi kariho amazu menshi atandukanye afite ibisenge bifite amabati y'amabara atandukanye, nyinshi zirageretse uko bigaragara aha ngaha hatuye abantu bishoboye.

Uyu ni umuhanda w'igitaka iruhande rwawo hari agashyamba, hafi y'agashyamba hari urupangu rufite agaporotayi gato. Rufite inkingi iriho icyapa cy'inzoga ya sikoro yitwa gatanu hamwe n'icyapa cya keje magana atanu mirongo itanu na kane esite karindwi.

Hano ndahabona umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'amamodoka hirya hari abantu nanone hari etage, iteretseho iminara myinshi itandukanye, imbere yayo hari n'ipoto y'amashanyarazi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo w'ibyerekezo byombi iruhande rwabo rw'ibumoso harimo agashyamba kameze neza naho urw'iburyo hariho etage yubatse neza.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo w'inkomane aho umuhanda urasukira mu wundi, hano hagati ndahabona amapoto y'ibyuma by'amashanyarazi, hirya ndahabona ikiraro, umuhanda uciye hejuru y'uwundi.

Hano ni mu muhanda ndahabona ibimenyetso bimurika aribyo twita feruje nano ndahabona imirongo yumweru abanyamaguru bambukiramo, ariyo twita zebura korosingi.

Imbere yanjye ndahabona umuhanda wa kaburimbo ukomeza imbere ugahura n'uwundi, ndabona umunyegare uri kugendera muri uwo muhanda ku ruhande hari abanyamaguru bari kugendera ku mapave.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo, harimo moto iri kugenda ndetse n'imodoka, ni muri rompuwe harimo ibimenyetso bimurika aribyo twita fe ruje, na none ndahabona imirongo abanyamaguru bambukiraho twita zebura korosingi.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo, harimo rompuwe aho banyura bazengurutse. Ndabona amapoto y'amatara y'amashanyarazi. Hagati muri iyo rompuwe ndabonamo icyapa kigaragaza ko ari mu nkomane banyuramo bazengurutse, gitegeka umuyobozi wese w'ikinyabiziga, gukurikiza amategeko agenga inkomane banyuramo bazengurutse.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'imihanda bibiri, n'ibyerekezo bitandukanye. Urakeye umeze neza hirya hari agashyamba, naho hagati yayo hatandukanyijwe n'akajaride karimo imikindo.

Uyu ni umuhanda hakaba harimo abantu bari kwambukiranya umuhanda, baciye mu mirongo y'umweru yitwa zibura korosingi, ari nayo ibaha uburenganzira bwo gutambuka mbere, hirya hari moto yahagaze itegereje ko bamara kwambuka.

Hano ni mumasangano y'imihanda, hari ibimenyetso bimurika twita feruje, hari imirongo y'umweru abanyamaguru bambukiramo, akaba ariyo mpamvu abamotari bahagaze bategerejeko abanyamaguru bambuka, nkuko feruje ibigaragaza harabura amasegonda mirongo itandatu nabiri ngo ihindure ibara.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo. Ku mpande hari ibiti n'amajaride, hari ibyapa bibiri. Kimwe kigaragaza ko hari aho abanyamaguru bambukira naho ikindi kigaragaza ibyerekezo ko hari ahajya Nyarugenge pashoni puraza n'ahajya Kigali siti senta.

Hano ndahabona imihanda ibiri ibangikanye ya kaburimbo, harimo ibinyabiziga bike bigizwe na moto n'imodoka. Nanone kandi hagati harimo imirongo, y'abanyamaguru bambukiraho twita zebura korosingi.

Imbere yange ndahabona umuhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga. Ni mu masaha ya nijoro. Ndabona kandi icyapa gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu, n'ikirango cy'umweru, kigizwe n'utwambi dutatu tuzenguruka. Aho gitegeka buri muyobozi w'ikinyabiziga gukurikiza inkomane banyuramo bazengurutse.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Imbere yange ndahabona imihanda ibiri, ugendwamo n'ibinyabiziga bigenda mubyerekezo bitandukanye, uwo hino urimo akavatiri, moto n'indi modoka ndi kureba inyuma biri kugenda. naho uwo hirya irimo imodoka y'ubururu n'indi y'umweru n'abamotari bari kuza.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ndahabona imirongo y'umweru twita zebura korosingi aha ngaha abanyamaguru bafite uburenganzira bwo gutambuka mbere, ku buryo n'ikinyabiziga iyo kije kirabanza kikabareka bagatambuka.

Imbere yanjye ndahabona ihuriro ry'imihanda, hari ikiraro hirya kiri ku muhanda wa puwaruru, hakaba hari indi mihanda iri kwisukamo ituruka ku gisozi. Hagati ndahabona amapoto y'icyuma, nanone harimo abanyamagare bari kugenda mu muhanda.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Imodoka y'ibara ry'umukara itambuka mu muhanda, uruzitiro rugizwe n'ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, umuferege unyuramo amazi wugarijwe cyangwa se ufunzwe

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Imbere yanjye ndabona imihanda ya kaburimbo hagati hari akantu kakajaride karimo umukindo, harimo icyuma gishinze bigaragara ko kiriho icyapa, hirya hari imodoka ziri kugenda ndetse na moto.

Imbere yanjye ndahabona rompuwe banyuramo bazengurutse, hari amapoto y'amatara ajya akora ekireraje puburike. Mu muhanda hariho imodoka ihetse iyindi iyitwaye nanone hari umumotari utwaye gaze, hari n'ibindi binyabiziga bigiye kuzenguruka muri uwo muhanda.